Umugabo uri mu murima uhinzemo karoti akaba afite ipombo yabugenewe, akaba ari kugenda azuhira kugira ngo arebe ko zazamuha umusaruro maze agatera imbere agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga, bakawitaho hanyuma nawo wamara kwera ukabaha umusaruro utubutse.

Umugabo uri mu murima uteyemo umuceri, akaba afite ipombo, aho ari kugenda yuhira umuceri, awutera umuti kugira ngo udafatwaho n'udukoko, hanyuma ukaba warumba.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'ikabutura ijya gusa umweru, akaba ahetse ipombo y'ubururu, ari kugenda atera umuti ibihingwa bye kugira ngo abirinde udukoko dukunda kubifata.

Umuntu uri ahantu mu murima uteyemo imboga n'imbuto, akaba ari kugenda azitera umuti kugira ngo zitazakubitwa n'izuba, maze bikamuviramo kurumbya.

Umurima uhagazemo abantu benshi cyane, uwo murima ukaba uhinzemo ibigori, abo bantu bakaba bambaye udupira tw'icyatsi bakikije akamezaza gateretseho uducupa turiho imiti yifashishwa mu buhinzi.

Umugore ukora umwuga w'ubucuruzi, akaba acuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi, akaba ahagaze mu iduka rye, aho ari kwerekana ibicuruzwa byose acuruza.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi agiye atandukanye, aho turi mu mabara y'umweru tukaba dufite imipfundikizo isa icyatsi, aho turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Umuntu w'umuhinzi wabigize umwuga akaba afite igikoresho cyabugenewe, ari kugenda atera umuti ibihingwa bye kugira ngo bizabashe kwera neza bimuhe umusaruro ufatika.

Uducupa tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo igihe runaka ayo matungo yaba yagize ikibazo.

Umuntu uri mu murima we yahinzemo imboga, akaba ari kugenda azitera umuti ugiye utandukanya kugira ngo zitabasha kuba zafatwa n'udukoko hanyuma tugahombya nyirazo.

Umuntu uri kugenda ashyira ifumbire ku gihingwa cye, bigaragara ko ari uburyo bugezweho bwo kwita ku bihingwa kugira ngo nyirabyo bizabe byamuteza imbere mu gihe kizaza akirigite ifaranga.

Umuntu uhetse ipombo akaba ari kugenda atera mu murima w'umuceri bigaragara ko ashaka kugira ngo uwo muceri utazafatwa n'udusimba tukaba twawangiriza.

Akabati gapanzeho uducupa twinshi turi mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, aho utwo ducupa ari twiza cyane tukaba turimo amabara agiye atandukanye ndetse n'umuti.

Umugore uri ahantu mu cyuzi ari kumwe n'abagabo babiri, akaba yashyize indobani mu cyuzi kugira ngo arebe ko hari ifi yafata maze yerekane ko abagore nabo bashoboye.

Ahantu heza cyane hari ikiyaga kiri mu mabara y'ubururu hakaba hari ikibazo cyerekana amoko ajyiye atandukanye y'ubworozi bw'amafi bikaba byanditse mu mabara y'umweru n'umuhondo.

Uburinganire n'ubwuzuzanye byageze mu Rwanda, aho ubungubu abagore nabo basigaye bashoboye, bagakora imirimo nk'iy'abagabo bakora, harimo nko kuroba, gutwara ubwato ndetse n'ibindi.

Umugore uri mu murima wahinzemo mocaca, iruhande rw'aho hakaba hari icyuzi kirimo amafi, aho yashyizemo indobani ategereje ko amafi ajyamo, hanyuma akajya kuyaroba mukanya.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane aho hari abantu basigaye bayaroba babigize umwuga bazwi nk'abarobyi barobamo rimwe mu kwezi kugira ngo batazamaramo amafi.

Abarobyi b'amafi bahuriye hamwe mu cyuzi, bakaba bashyizemo indobani none barayizamuye hazamutseho utunyamaswa dusa umutuku bigaragara ko ari imisundwe atari amafi.

Umugabo uri mu kiyaga akaba ari kugenda aroba amafi, afashe imwe mu ntoki bigaragaza ko amaze kuyiroba, akaba agiye kuyishyira mu gakoresho kabugenewe atwaramo izo yarobye.

Abantu bari kugenda ahantu mu murima bigaragara ko ukikijwe n'ibyuzi baroberamo amafi bakaba ari umugore n'umugabo bari kureba ko amazi yaba yarajemo amafi.

Umugabo uri mu murima akaba afitemo icyuzi yubatsemo ku buryo akifashisha ari kuroba kugira ngo arebe ko yabona amafi menshi maze akaba yamuha umusaruro.

Abantu bagera kuri babiri bakora umwuga w'uburobyi, bakaba bafite ingubani mu ntoki bavanye mu kiyaga none bakaba babona yafashe amafi make kandi mato.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma maze na yo bikazabaha umusaruro.

Umugabo worora amafi bya kinyamwuga, akaba ayafashe ari ahantu mu cyuzi, aho ari kugenda ayavana mu ndobani kugira ngo yongere ayisubize ngo arebe ko yafata andi.

Umuntu uri mu cyuzi aho ari kugenda aroba amafi agiye atandukanye yifashishije igikoresho cyabugenewe cy'indobani akoresha ari kuroba kugira ngo arebe ko yabona umusaruro.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru akaba ari umurobyi, afite agafuka karimo ibyo kurya by'amafi, ari kudahishamo agasahani ngo narangiza ahita asuka mu cyuzi, amafi azabirye.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bajya kuyaroba baba ari ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, maze bakabonamo umusaruro.

Abana biga kuroba, bakaba bari ahantu mu kiyaga, bakaba bashyizemo indobani bifashisha bari kuroba, bakajya barazamura hakazaho udufi dukeya.

Umugabo wambaye iy'icyatsi uri ahantu impande y'icyuzi, akaba afite ibase irimo ibyo kurya by'amafi, akaba ari kugenda ashyira mu cyuzi kugira ngo ayo mafi azabashe kuba yabyibuha.

Ubu ngubu uburinganire bwaraje mu Rwanda aho abantu bose basigaye bakorera hamwe bakihaza mu mwuga w'uburobyi kugira ngo barebe ko wabateza imbere maze na bo bakazagira umusaruro.

Ubworozi bw'amafi burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abarobyi bajya kuroba amafi bayitayeho, hanyuma akaba yabateza imbere cyane bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'amafi ni ingirakamaro cyane, aho iyo umuntu yayoroye mu cyuzi akayagaburira neza agahaga, iyo agiye kuroba ajyana na bagenzi be, hanyuma bashyiramo indobani bakagira icyo bafata.

Abantu benshi cyane bahuriye mu cyuzi aho bashyizemo indobani bakaba bagiye kuroba, bakaba bashaka gufata amafi menshi cyane kubera ko bayitayeho bakayaha ibyo kurya.

Ubworozi bw'amafi bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umuntu woroye amafi abasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga akaba umukungu.

Umugabo ufite ikawa mu ntoki bigaragara ko ari umuhinzi wayo, akaba yerekana ko igeze igihe cyo kwera ndetse akaba yanayisarura igihe cyose yaba abishakiye kugira ngo imuhe umusaruro awugurishe.

Abagore bari mu murima uteyemo icyayi bakaba bari kugenda basoroma bashyira mu ntego zabugenewe, kugira ngo baze kukuzanya babijyane ku kiruhutero maze imodoka ibitware mu ruganda.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe icyayi gihingwa mu turere dukonja cyane nk'utwo mu ntara y'iburengerazuba ndetse no mu ntara y'amajyepfo.

Ibihingwa ngengabukungu mu Rwanda binzwi nk'ikawa bigenda birushaho gutezwa imbere cyane, aho muri iki gihe umuhinzi wabyo bisigaye bimuha amafaranga menshi atubutse agatera imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n bukeye, hano rero umugore afite intebo ari kugenda asoroma icyayi ari kumwe n'umugabo we nawe uri gusoroma ashyiramo.

Umugore n'umwana we bari mu murima w'ikawa, bakaba kugenda bayisarura kugira barebe ko iyo kawa yabateza imbere maze bakabona umusaruro uhagije.

Ibihingwa ngengabukungu ni ingenzi cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye babihinga hanyuma bikazabateza imbere cyane bagakirigita ifaranga bakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye, hakaba hari igiti cy'ikawa, kiriho imbuto zitukura kandi n'izindi zitaratukura.

Ubuhinzi bw'ikawa bwateye imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma ikazabateza imbere nk'igihingwa ngengabukungu.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye barahinga ikawa barabigize umwuga hanyuma zamara kwera bakagenda bazisarura imbisi ndetse n'izitukuye kugira ngo bazigurishe.

Umuhinzi w'ibihingwa ngengabukungu wabigize umwuga akaba ari mu murima aho ari kugenda abyitaho kugira ngo arebe ko byazatanga umusaruro utubutse maze agatera imbere.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye mu murima w'icyayi bari gusoroma, hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, ku buryo barabonamo umusaruro ufatika.

Umugabo uri mu murima uhinzemo icyayi akaba ahetse igikapu, bigaragara ko ariwe nyir'iki cyayi, akaba yaje kugisura ari guhamagara aho bakigura, ababwira ko cyeze baza kugisoroma.

Umugore wambaye agapira ka orange, akaba ari mu murima w'ikawa, aho ari kugenda ayisoroma ayishyira mu gakoresho kabugenewe kugira ngo nayisarura izamuhe umusaruro uhagije.

Abagore bagera muri bane bateraniye hamwe aho babiri bambaye utujiri dusa icyatsi, bakaba bari ahantu basutse umusaruro w'ikawa bari kugenda bazitoranya ngo barebemo izapfuye.

Umurima uhinzemo umuceri, aho uwo muceri ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wawuhinze ubasha kumuteza imbere agakirigita ku mafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro cyane mu Rwanda, kuko muri iki gihe umuntu uhinze ikawa akayitaho ibasha kumuteraza imbere cyane, maze akabona umusaruro uhagije hanyuma agakirigita ifaranga.

Umurima uhinzemo ikawa, aho iyi kawa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wayihinze akayitaho ibasha kumuha umusaruro, maze agatera imbere cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri, bakawitaho hanyuma wamara kwera ukabaha umusaruro bakawugurisha.

Ubuhinzi bw'umuceri bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho umuceri abawuhinga bavuga ko ubaha umusaruro utubutse maze bagakirigita amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu wese wahinze ikawa akayitaho ibasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga.

Umugabo uri ahantu, aho ari kugenda atunganya amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ngengabukungu kugira ngo abone uko aza kubigurisha neza.

Abantu benshi bahuriye hamwe bigaragara ko bakoze umushinga w'ubuhinzi bwa ndamutibikanye, aho bari kugenda basarura bazisarurira mu isambu bashyira mu bitebo ngo bajye kuba bazigurisha.

Umurima w'icyayi ukaba uri ahantu ku gasozi aho hateyemo icyayi cyinshi cyane kigiye gitandukanye, ubuhinzi bw'icyayi rero ni ingirakamaro cyane kubera ko iyo urinze icyayi kiguteza imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga hanyuma zamara kwera bakazisarura bakajya kuzigurisha ku makusanyirizo yazo.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye turimo imiti iri mu mabara y'umweru, iyo miti ikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo.

Agakarito kariho amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izo nyamaswa ari ingenzi cyane, hashushanyijeho inka iri kurisha bigaragara ko uyu muti uramutse uwuhaye inka, yatanga ku musaruro cyane.

Icyumba kinini kirimo amoko agiye atandukanye y'amacupa arimo imiti y'amatungo, aho iyo miti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyihaye amatungo ye abasha kumererwa neza.

Iduka ricururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye y'amatungo, aho iyo miti iba ari ingirakamaro cyane kubera ko ivura indwara zigiye zitandukanye, zikunze gufata amatungo.

Ubworozi bw'inkoko, bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu borora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma zamara gukura zikabaha umusaruro.

Uducupa tugera muri dutatu turambitse ahantu, tutaba dufite imipfundikizo y'icyatsi, bigaragara ko turimo imiti y'amatungo ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ayo matungo.

Intebe y'umweru irambitseho agacupa k'ubururu, kakaba karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura inyamaswa indwara nyinshi ziba zarwaye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane aho mo mbere mu cyumba harimo uducupa tugiye dutandukanye tw'amoko menshi cyane, tuba turimo imiti ivura amatungo igihe cyose yaba arwaye.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyo miti ari ingirakamaro cyane aho muri iyo miti harimo iyo bifashisha bari gutera inshinge amatungo runaka yarwaye.

Uducupa turi mu mabarage agiye atandukanye dushushanyijeho ibyapa byinshi, bikaba bigaragara ko haba harimo umuti w'amatungo uvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo utubido twinshi, tukasa umweru dupfundikije imipfundikizo y'icyatsi, bigaragara ko turimo imiti y'amatungo.

Udukarito twinshi tugiye dutandukanye turimo imiti myinshi yifashishwa mu kuvura amatungo, aho hagiye hashushanyijeho inkoko bigaragara ko ari amatungo meza cyane.

Uducupa tugiye dutandukanye aho tuba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, turi mu mabara y'umukara tukaba dufite imipfundikizo y'umuhondo ndetse hariho n'ibyapa bisa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere hashashemo amakaro, hakaba hateretseho agacupa kaba karimo umuti uvura amatungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyuma cyiza cyane kirimo ibikarito bigiye bitandukanye aho ibyo bikarito birimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo barebe ko babuteza imbere.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye. Aho turimo umuti w'amatungo. Ukaba uri mu ducupa tw'ubururu n'icyatsi, ndetse dufite imipfundikizo y'umweru. Bikaba bigaragara ko ari ingenzi cyane.

Agashashi karimo utuntu tw'umutuku bigaragara ko ari umuti w'amatungo, aho bayifashisha bavura amatungo igihe cyose aba yagize ikibazo runaka kerekeranye n'uburwayi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho harimo abahinzi bakaba bari ahantu mu gishanga, bigaragara ko ari ababyeyi ndetse n'abana babo bari kuva mu kazi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bakaba bari mu murima higanjemo abajyanama b'ubuhinzi bambaye imipira y'icyatsi, harimo umwe uri gutera urubuto, abereka uko babigenza.

Umuntu uri mu murima uhinzemo imbuto, akaba ari gutera igiti kizwi nk'isupuri kugira ngo nigikura kizajye gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi hafi aho.

Abahinzi babigize umwuga bakunda guhinga karoti mu masambu yabo, iyo zeze rero barazirandura hanyuma bakazijyana mu mifuka bakajya kuzigurisha ku masoko.

Abantu bari kugenda ahantu mu murima uhinzemo umukenke, bakaba batereye amasuka ku rutugu, bigaragara ko ari abantu bavuye guhinga, ubuhinzi rero babugize umwuga.

Umukobwa uri ahantu aho hasharitse ibigori kuri hangari, akaba yegereye umufuka urimo ibigori bihunguye, akaba yabitaruye ku mashyi ari kwerekana ubwiza bw'ibyo bigori.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari mu murima, biganjemo ab'igitsina gabo, bakaba bari kugenda barandura ibyatsi kugira ngo babone uko batera imbuto zigiye zitandukanye.

Umukobwa wari mu murima uhinzemo ibishyimbo, akaba ari kugenda asoroma imiteja kugira ngo ayigemure ku isoko ayigurishe hanyuma aze kubonamo amafaranga.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazorora barabigize umwuga bakazitaho, hanyuma bikazabateza imbere ahazaza.

Abantu bari mu murima w'ibigori, higanjemo umukobwa umwe ndetse n'umusore, bakaba bari kugenda babyuhira kugira ngo barebe ko byamererwa neza maze bikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ahantu hari ikibuga giteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi, aho ibi byatsi ari ingirakamaro cyane. Haciyemo akayira, aho hari kugendamo umugabo usunitse igare, inyuma ye hari mugenzi we.

Abantu b'abahinzi babigize umwuga bakaba bari mu murima w'amashu, aho bari kugenda bayasasira kugira ngo barebe ko yazera neza akazatanga umusaruro maze bagatera imbere.

Abantu bagiye batandukanye bateraniye hamwe aho harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye udupira tw'icyatsi aho bari guhinga amoko agiye atandukanye y'imboga kandi z'ingirakamaro cyane.

Umugabo uteruye igihoho giteyemo bimwe mu biti bakunze gutera mu busitani, ariko icyo gihoho kikaba ari icy'umufuka akaba agiye gukora umuganda.

Abantu b'abaturage benshi bateraniye hamwe, aho bari mu gikorwa cyo gutanga ingurube ku bantu bagiye batandukanye, buri wese akaba afite ifishi yerekana icyiciro cy'ubudehe kugira ngo arebe ko yabonaingurube.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa. Hari izizwi nk'imparage aho ziba ziri mu mabara meza cyane y'umukara ndetse n'umweru zigakunda kwibera ahantu mu byatsi.

Umugabo uri mu murima uteyemo imboga akaba ari umuhinzi wabigize umwuga, ari kugenda azitaho kugira ngo nibazisarura zizabashe kubateza imbere maze bakirigite ifaranga.

Umurima uhinzemo ibigori aho ibi bigori ari byiza cyane ku buryo umuntu wese wabihinze, akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ibigori bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abahinzi b'ibigori iyo babisaruye, bahita batema ibitiritiri bakabishyira amatungo kugira ngo babone ifumbire.

Umurima uteyemo umuceri aho harimo umugabo uri kugendagendamo bigaragara ko ari umuhinzi wawo, akaba ari kugenda yita ku muceri we ngo arebe ko umeze neza ku buryo yawusarura.

Ubutaka buhinzemo amoko atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzihinze zibasha kuba zamuteza imbere cyane akabona amafaranga.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho hari izizwi nk'amaronji ziba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uziriye zituma amererwa neza akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu gishanga hateyemo umuceri mwinshi cyane mwiza kandi, hakaba harimo abahinzi bawo babigize umwuga bari kugenda bawubagarira kugira ngo barebe ko bazabaha umusaruro.

Umurima uri ahantu mu gishanga, uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho bazanyemo imashini yifashishwa mu buhinzi, ikaba iri kugenda ihahinga ngo babone uko bateramo umuceri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye sima ndetse ikaba yubakishije n'amatafari ahiye, iruhande rwayo hameze uruyuzi rwera ibihaza.

Umurima uteyemo ikigori kimwe cyeze neza kandi cyumye, bakaba bari kutwereka akamaro ko guhinga ibigori kubera ko bibasha kuba byateza imbere umuhinzi wabyo.

Amoko menshi cyane agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wese wazihinze zibasha kumuteza imbere maze agakirigita inote.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane, hakaba hariho aho basaruye ibigori, bakaba barabitemye none ibigorigori byarumye.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga.

Ibitunguru ni bimwe mu mboga nziza cyane z'ingirakamaro aho umuntu wabihinze abyitaho bibasha kumuteza imbere cyane igihe yasaruye maze akaba yabigemura ku isoko.

Umurima mwiza cyane, uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho hateyemo imigozi, imigozi rero ni ingirakamaro, ku buryo umuntu wese wayihinze, ibasha kumuteza imbere.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuha umusaruro maze agatera imbere.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse zikaba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho zirushaho kuba zamuteza imbere cyane.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuhinzi wese wadzihinze zimuha umusaruro zikabasha kumuteza imbere cyane, maze akaba yasezera bukene agakirigita ifaranga akaba umuhungu.

Umurima uhinzemo imyumbati, aho ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane, ku buryo umuntu wese wayihinze akayitaho, ibasha kumuteza imbere akabona amafaranga.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho harimo n'ibigori, ibi rero bikaba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuba turimo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa biba bicuruzwa mu isoko ku buryo igihe cyose ubikenera ugenda mu isoko ukabigura ku mafaranga make.

Ubuhinzi bw'ibijumba na bwo bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho hari abantu basigaye bahinga ibijumba bya kinyamwuga, hanyuma babisarura bakabijyana ku masoko bakabigurisha ngo babone amafaranga.

Ahantu hari amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane hakaba hari n'ikiyaga kirimo amazi menshi cyane, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Ahantu mu gishanga hahinze amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho higanjemo insina ku buryo umuntu wazihinze iyo azisaruye akazigurisha abonamo umusaruro utubutse.

Ahantu mu mu ishyamba hateyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuhinzi wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze, agakirigita ifaranga.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ku noti.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hakaba harimo agahanda keza cyane k'umukara kanyurwamo n'imodoka zigiye zitandukanye.

Ahantu hari umurima mwiza cyane uteyemo ibyatsi byinshi, hakaba hari n'amazu bigaragara ko ari mu cyaro, aho ayo mazu asakaje amategura hakurya hari agasozi keza cyane.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze mu murima we, bibasha kumuteza imbere maze agakirigita amafaranga.

Inka z'Inyambo ziba ari nziza cyane kubera ko zigaragaza umuco nyarwanda kuko no mu birori bigiye bitandukanye izi nka ni zo bataka bakazifashisha mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda.

Ahantu mu ishyamba hari ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho muri ibyo biti harimo igicu gifite ibicu by'umweru bigaragara ko ari mu gihe k'imvura kegereje.

Ahantuu hari ikiyaga cyiza gikikijwe n'amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane, hakaba hari n'uruhande rurimo ishyamba rinini cyane.

Inyubako nziza cyane z'amashuri, aho zisakaje amabati n'amategura zikaba ziri ahantu mushyamba, aho ziba ari nziza cyane ku buryo nyirazo zabasha kumuteza imbere.

Ahantu heza cyane hari utuzu tubiri bigaragara ko ari mu ishyamba, hakaba hari kugendamo umukobwa ufite agasakoshi ndetse iryo shyamba rikaba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Abasirikari n'abadaso bahuriye hamwe nk'inzego zishinzwe umutekano, bakaba bari gukora igikorwa cy'umuganda, aho bari gufasha abaturage gukora umuganda kugira ngo isi irusheho kumera neza.

Ubutaka bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane kubera ko bibasha kudukururira umwuka mwiza duhumeka ndetse bikazana n'imvura.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane buhinzemo amoko atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane, hepfo hakaba hari ikiyaga kirimo amazi meza cyane kandi menshi.

Agasozi gateyemo ibiti bigiye bitandukanye bigaragara nk'aho ari mu ishyamba, ha haba ari ahantu heza cyane, aho umuntu wese uhari, habasha kumuteza imbere mu buryo butandukanye.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere, aho abantu basigaye boroye inka mu buryo bwa kinyamwuga, bakajya kuzigera ahantu mu ishyamba, hanyuma izo nka zikazabateza imbere.

Umuntu wahinze ibitunguru, none bikaba bigeze igihe cyo kwera, akaba ari kurandura ngo arebe ko bye neza, hanyuma abijyane ku isoko kuba yabigurisha.

Icyapa giteye ahantu mu busitani bwiza, kikaba cyanditseho ko giherereye mu karere ka Huye hepfo no haraguru hateye ubusitani burimo ibyatsi byiza kandi bitoroshye.

Akarima k'igikoni ni ingirakamaro cyane, ku buryo muri iki gihe umuntu wese ugafite kabasha kumuteza imbere, aho ahingamo imboga hanyuma akajya ajya kuzisoroma.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero, akaba ari umuhinzi w'urusenda wabigize umwuga, aho ari kugenda arwitaho arusoroma kugira ngo arebe ko rwamuha umusaruro.

Umurima uhinzemo karoti ukaba uhinze kumi mirongo, hakurya hari ishyamba rinini cyane riteyemo ibiti bigiye bitandukanye by'inganzamarumbo ndetse n'ingirakamaro cyane.

Ubuhinzi bw'imyembe ni ingirakamaro cyane aho abantu basigaye bahinga ibiti by'imyembe hanyuma yamara kwera bakayisarura bakayijyana mu isoko kuyigurisha ngo bibateze imbere.

Ubuhinzi bw'amashuri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga amashu barabigize umwuga bakayitaho, hanyuma basarura bakayagurisha akaba yabateza imbere.

Abantu benshi cyane biganjemo umugore ukora umwuga w'ubuhinzi akaba afite imbuto imbere ye ari gucuruza bigaragara ko yazigije none uyu mugabo akaba agiye kumuha amafaranga azigura.

Umugabo uri mu murima uhinzemo amatunda, akaba hari ayo yasaruye ayafashe mu ntoki, akaba ari kuyatangaho urugero, yerekana ukuntu ubuhinzi bw'amatunda, bwateza imbere cyane nyirabwo.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo imboga, akaba ari kugenda azisarurira mu gakoresho kabugenewe k'agakarito, aho yashyizemo dodo, karoti, inyanya, ibitunguru n'izindi.

Igiti cy'umwembe kikaba kiri ahantu bigaragara ko hari imodoka iri kuhaza, iyi modoka rero ikaba ari nziza ndetse ikaba irimo umushoferi uje kuyihaparika.

Ubuhinzi bwa avoka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga voka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabateza imbere.

Umugabo wambaye iby'umukara akaba ari mu murima we w'ibigori, aho ari kugenda abyuhira kugira ngo bitazicwa n'izuba, bizamuhe umusaruro uhagije nk'uko awukeneye.

Umugabo uri mu murima w'ibigori, akaba ahetsepombo ndetse yambaye udupfukantoki, ari kugenda atera ibigori umuti kugira ngo bitazafatwa na nkongwa, maze bikaba byarumba bikamuhombya.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, hakaba harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuhuhira aho bigenda bitera amazi ku bihingwa nta muntu uri kubikoresha.

Abantu bari mu murima bari kugenda buhira, aho bose bambaye ibisarubeti by'ubururu, hakaba harimo umukobwa umwe ufashe umupira, ari kugenda yuhira ibigori biteye aho ngaho.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye barabigize umwuga bakajya buhira ku mbuto zabo bakazishyiraho ifumbire kugira ngo bazabashe gusarura.

Muri iki gihe ubuhinzi bwateye imbere cyane aho abahinzi basigaye buhira imyaka yabo, hanyuma ikazabateza imbere cyane bazabona amafaranga ahagije menshi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, hakaba harimo umugore ufite ipombo yabugezweho, ari mu murima we w'ibigori ari kugenda abyuhira abitera amazi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho abantu basigaye bahinga imyaka mu gishanga, hanyuma bakazana imashini zabugenewe zizi kuhira bakajya barazikoresha batavunitse.

Umugore wambaye umupira w'umutuku akaba ari mu murima we, aho ari kugenda yuhira imbuto zihinzeho, ubu buhinzi rero ni ingirakamaro kubera ko umuntu uhinze imbuto, akazuhira zimuteza imbere.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bahinga barabigize umwuga, hanyuma bakazajya buhira ibyo bihingwa byabo kugira ngo bibashe kubaha umusaruro.

Ngo ubungubu igikorwa cyo kuhira imyaka cyatejwe imbere cyane aho basigaye bazana ipombo bakayishyira mu mazi hanyuma bakatsa moteri amazi agahita azamuka.

Umugore uri mu murima uteyemo amashu, akaba afite umupira wabugenewe akaba ari kugenda yuhira ayo mashusho kugira ngo arebe ko yazamuteza imbere, maze akabona umusaruro agakirigita ifaranga.

Muri iki gihe umwuga w'ubuhinzi wateye imbere cyane aho abantu basigaye bahinga hanyuma bakuhira ibihingwa byabo bakoresheje imashini zabugenewe kugira ngo ibyo bihingwa bibashe gukura neza.

Umugabo uri ahantu mu murima we uhinnzemo karoti, akaba afite igikoresho cyabugenewe yifashisha ari kuzivomera, aho ari kugenda azisukira amazi kugira ngo zizabashe kumuteza imbere.

Umugabo w'umuzungu wambaye akajire kabugenewe akaba ahagaze imbere y'amazi yubakiye ari gushyiramo umupira bigaragara ko ashaka kuvomera kugira ngo azabone umusaruro.

Abantu bagera muri bane, bahuriye hamwe mu murima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bakaba bari gukoresha imashini yabugenewe yuhira, aho itungereza kure amazi akagera kuri buri gihingwa.

Umurima uteyemo inyanya, aho hashashemo ibyatsi bigiye bitandukanye, hakaba hari ibase, hejuru yayo hari umurasiri, bikaba bigaragara ko uyu murasire wifashishwa mu kuhira.

Umugabo wahinze amashu none akaba abona izuba ryavuye, yafashe umwanzuro wo gufata ibikoresho byabugenewe, maze akaza kuyuhira kugira ngo azamuhe umusaruro.

Ubworozi bw'amafi busigaye bujyana n'igikorwa cyo kuhira, aho haje imashini zabugenewe zifite amapine batera ku mpande z'icyuzi, zikajya zigenda zipopa amazi ziyanaga mu murima.

Umurima uhinzemo amashu ukaba uri kuvomerwa mu buryo bugezweho, aho haje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho hari imashini iba itungerezareza amazi kure, ikagenda yikaraga yuhira aho hantu.

Umurima uteyemo amashu, muri uwo murima hakaba hari kugendamo umukobwa ufite lazwaro, akaba ari kugenda atera umuti ayo mashu, kugira ngo arebe ko yazamuha umusaruro maze agakirigita ifaranga.

Muri iki gihe umwuga w'ubuhinzi wateye imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye bahinga barabigize umwuga, bakabyitaho hanyuma bikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Umuntu wahinze imbuto bya kinyamwuga, akaba afite umupira w'ipombo wabugenewe yifashishwa ari kuzuhira kugira ngo zitazicwa n'izuba, bityo zikaba zarumba agahomba.

Umurima uhinzemo amashu agiye atandukanye, ukaba uhagazwemo n'umukobwa, ufite igikoresho cyabugenewe mu ntoki ari kugenda ayuhira ayatera umuti kugira ngo azare neza.

Umuntu uri mu murima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, akaba ari gukoresha uburyo bugezweho bwo kuyuhira yifashishije umupira wabugenewe, agenda amenaho amazi.

Udusozi turerure cyane turiho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari byiza cyane kandi bikaba n'ingirakamaro kuko bidukururira umwuka mwiza duhumeka.

Ikiyaga kirimo amazi meza cyane, kikaba gikikijwe n'umudusozi duteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti bibasha gukurura imvura.

Urusisiro ruteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho harimo n'inzu nziza zisakaje amategura, hakurya hari udusozi duteyeho amashyamba meza cyane kandi maremare.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, buteyeyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane, hakaba ikiyaga cyiza cyane kirimo amazi menshi agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zigiye ziriho nimero zigiye ziziranga, zikaba ziri ahantu mu ishyamba hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti.

Ahantu hari udusozi twiza cyane aho hasi hari ikibaya cyubatswemo utuzu tugiye dutandukanye ndetse gihingwamo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto.

Ahantu hari ikibaya cyiza aho kirimo amoko menshi y'ibihingwa, hakaba hari n'udusozi duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane.

Ubutaka bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere.

Umurima mwiza cyane kandi mugari uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera aho ibi bimera ari ingenzi ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kumugirira akamaro akiteza imbere.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane kandi bugari buteyemo amoko ajya atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubashije kubihinga, byamugirira akamaro.

Ikiyaga cyiza cyane aho gikikijwe n'udusozi twiza duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibiti ari byiza cyane kubera ko bidukururira imvura.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane, aho hubatsemo amoko agiye atandukanye y'inzu ndetse izo nzu zikaba zubatswe mu buryo bw'amayobera, hari n'ikiyaga gito ariko abantu bakogamo.

Ahantu hari ubutaka bwiza cyane burimo amazu menshi agiye atandukanye, aho ubwo butaka arigenzide cyane, ku buryo umuntu wese ubufite aba yumva aguwe neza kandi bukaba bunamuteza imbere cyane.

Umurima w'ibigori aho hakurya hari amazu menshi cyane asakaje amategura bigaragara ko ari mu cyaro, hakaba hari imisozi myinshi iteyeho ibiti birebire by'inurusu.

Ahantu mu gisambu hateyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane, aho harimo n'ibiti birebire by'ingirakamaro bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abahinzi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore, bakaba bikoreye udutebo bigaragara ko bavuye gusarura ibihingwa byabo mu mirima igiye itandukanye bari barabihinzemo.

Igishanga giteyemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uwuhinze akawitaho, umugirira akamaro ukaba wamuteza imbere.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho hari igishanga giteyemo ibisheke ndetse harimo n'insina hanyuzemo n'umuhanda w'igitaka ariko mutoya cyane.

Ahantu mu cyaro hari inzu zisakaje amategura, zihinze insina munsi y'urugo, aho hakurya hari udusozi twiza cyane kandi tunini duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakajya baziragira mu masambu yabugenewe kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zajya gutanga umusaruro zikamuha mwinshi.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga bakajya kuziragira maze zikazabaha umusaruro bagatera imbere.

Ubworozi bw'ingurube bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umuntu woroye ingurube akazitaho uko bikwiriye zibasha kumuha umusaruro neza maze akaba yatera imbere.

Icyuma kiri mu mabara y'umutuku n'icyatsi kikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko kidufasha mu buhinzi n'ubworozi, aho gitonora ibigori ndetse n'umuceri, kikaba cyanatora ikawa.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane aho uyu muntu aragiye inka ze ahantu mu gisambu, yambaye ipantaro y'umukara iciyemo uturongo tw'umweru bigaragara ko ari umushumba w'izi nka.

Ubworozi bw'inka bwafashe indi ntera, aho aborozi bazo basigaye bazitaho mu buryo bwose bushoboka bakazishyira mu biraro bigezweho kugira ngo zizabashe gukura neza.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakaziha ibyokurya bigiye bitandukanye, hanyuma bazigurisha zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye barora ihene barabigize umwuga bakazitaho, zikabona ibyo kurya bihagije hanyuma zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkwavu na bwo bugenda burushwaho gutera imbere, aho Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuzorora kuko zigura make kandi zigatanga umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'ingurube ni ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese woroye ingurube akayitaho, akayiha ibyo kurya bihagije iyo ibyaye ibyara utwana twinshi maze na we yatugurisha akabonamo amafaranga menshi.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bwamaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bororera inka mu rugo, bakaziha ibyo kurya bitandukanye kugira ngo zitazarwara cyangwa zikarwarira mu gasozi.

Ubworozi bw'inkoko bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye bazororera ku dukoresho twabugenewe tuba tugiye dutoboye kugira ngo zitazakandagira ku butaka zikamererwa nabi.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari abantu basigaye burora inkoko barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma zamara gukura zikabaha umusaruro.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho izo nyubako zifite ubusitani buteyemo ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiraro bigiye bitandukanye bigaragarira ko bahororera amatungo.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikabirya zikazaba umusaruro.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane muri iki gihe aho aborozi babigize umwuga, borora aya matungo hanyuma akagenda abateza imbere bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabijyize umwuga bakaziha ibyo kurya bitandukanye maze nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari aborozi basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikabaha umusaruro zigateza imbere nyirazo.

Inka nyinshi cyane ziteraniye hamwe aho mo imbere hahagazemo umuvuzi wazo wabyigiye wambaye itaburiya y'umweru na bote, ari kugenda azitaho igihe cyose ziba zigize ikibazo.

Ahantu bororera inkoko ndetse bakazituragira, haba harimo udukoresho tugiye dutandukanye zifashishwa zirikuriramo ndetse no kuzongerera umwuka n'urumuri, tuba turi mu mabara y'umweru n'umutuku.

Muri iki gihe iyo umuntu yoroye inka yarabigize umwuga, ni ngombwa ko buri kwezi ahamagara veterineri akaza akayikora mu nda, akareba ko nta kibazo kirimo kandi n'imyanda irimo akayikuramo.

Ubworozi bw'inkoko bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe umuntu woroye inkoko akazitaho, zibasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'inkoko n'inkwavu bukomeje gutera imbere, aho abantu basigaye borora inkwavu bazihekeranyije kugira ngo zizabeho neza kandi zibe ahantu hato cyane.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye barora inka barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma izo nka zikazabagirira umumaro mu gihe kizaza.

Ubworozi bw'ingurube bwateye imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho hasigaye hari aborozi b'inkoko babigize umwuga, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho biba byiza iyo umuhinzi w'inka agenda aziha amazi, akazishora kugira ngo zibashe kubyibuha zice n'icyaka.

Uduhago tugiye dutandukanye turimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane, aho harimo ibishyimbo, inzuzi, soya ndetse n'amashaza n'izindi.

Umuntu wagiye ahantu bashyize imbuto z'amashaza zifashishwa mu gihembwe cy'igihinga gitaha, akaba yayayoye akoresheje ibiganza byombi ngo yerekane ubwiza bwazo.

amavaze ateyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingenzi cyane kubera ko baba bazinajemo mu no kugira ngo zizabashe gukura neza.

Umugabo ukenyeye isuwime akaba ari mu murima we, aho ari kugenda amjiramo umuceri bigaragara ko ari w'inaza kugira ngo azabashe kubona imbuto yo gutera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako iri imbere y'imbuga ihagazemo umukobwa uri guhata imyumbati ayishyira ku mufuka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba irimo icyumba cy'ubuhunikiro, aho bashyiramo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye bagiye guhunika cyangwa benda gutera.

Umuntu uri mu murima w'ibigori, akaba yagiye abisarura abirunda hasi kugira ngo abyanike izuba rimanze ribyumishe hanyuma nibamara kuma, abone bipakira abijyane mu rugo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane, aho abahinzi baba bagomba guhunika imbuto bazifashisha bari gutera mu gihembwe cy'ihinga gikurikiyeho kugira ngo batazashoberwa.

Umuntu ufashe isaka ritari ryera neza mu ntoki, akaba ari kugenda arihungura kugira ngo arebe ko havaho impeke maze akazanika bakazazitera.

Umuganga uvura abarwayi aba yarize ibijyanye n'ubuvuzi, aho buri gihe aba agomba guhora yambaye itaburiya, akanozasuku mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, ari nako abavuzi bazo babonetse, aho abaveterineri basigaye baza bakavura inkoko yose yagize ikibazo igakira.

Ubworozi bw'ingurube burushaho gutera imbere cyane aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara kubyara bakabona amafaranga menshi.

Ubworozi bw'inka nabwo bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma nazo zikazabaha umusaruro.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuveterineri cyangwa ubuvuzi bw'amatungo, bakunze kwifashishwa cyane igihe hagiye kubagwa itungo, aho baza bagapima inyama bakareba ko zujuje ubuziranenge.

Umugabo uri mu cyumba cyabugenewe, akaba yarize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba yambaye udupfupantogi turi mu mabara y'ubururu bigaragara ko ari umuveterineri.

Abavuzi baba barize ibijyanye no kuvura amatungo, baba ari inzobere cyane, aho basigaye bafata imbwa nazo bakazivura, zikaba zakira nta kibazo ziteje zikamererwa neza.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu wahinze inka akazitaho zisigaye zimuha umusaruro ufatika maze akaba yakirigita ifaranga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibidomodoro birimo imbere, bigaragara ko ari aho amatungo ataha n'ubwo ntayarimo kuko ashobora kuba yasohotse.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane aho muri iki gihe haba hari abantu bize ibintu bijyanye no kuvura inka, yagira ikibazo bakaza bakayitera inshinge maze ikaba yakira.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo amoko menshi y'imiti, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa bari kuvura amatungo agiye atandukanye aba yafashwe n'indwara.

Umuntu wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba ari ahantu ari kurebera mu cyuma cyabugenewe ngo arebe ikibazo runaka amatungo yaba afite kugira ngo azayavure byihuse.

Muri iki gihe abavuzi b'amatungo basigaye bafite ubuhanga buhanitse, aho batavura amatungo yo mu rugo gusa, ahubwo n'ayo mu gasozi bayavura, aho bari gusuzuma iyi mbwa ngo barebe ikibazo yagize.

Agacupa k'umweru karimo imiti myinshi igiye itandukanye, aho iyi imiti ari ingirakamaro cyane kubera ko yifashishwa mu kuvura amatungo menshi agiye atandukanye.

Umuntu wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umweru, akaba afite ipombo yabugenewe aho ari kugenda ayifashisha kugira ngo abashe kuvura amatungo ayatera urushinge.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu baba barize ibijyanye n'ubworozi bazi kuvura amatungo ku buryo irirwaye ryose babasha kurivura.

Umuganga wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba yitwa umuveterineri, akaba ari kumwe na bagenzi be bambaye impuzankano, aho bafite inyamaswa baryamishije ku meza, bari kuyitera urushinge.

Ahantu hari ubutaka bwiza kandi bugari, hakaba haragiwemo amatungo azwi nk'inka, aho ziri kugenda zirisha muri ubu butaka bugari kugira ngo zirebe ko zamererwa.

Muri iki gihe ubworozi bw'amatungo bwateye imbere cyane, aho itungo ryose igihe rirwaye, wahamagara veterineri wabyigiye, maze akaza akaritera urushinge rikaba ryakira.

Twiga ni imwe mu nyamaswa zikunze kuba ziri muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, ziba zijya kumera nk'ingwe ariko zo ntabwo zigira ubugome nk'uw'ingwe kuko zo ziritonda.

Muri parike y'igihugu y'u rwanda y'akagera, hakaba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hakunze kubamo inyamaswa zizwi nk'inguge ziba ziri mu mabara y'umukara.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, izizwi nk'intare rero aba ari umwami w'ishyamba ku buryo nta nyamaswa yapfa kuyihangara.

Ingwe ni zimwe mu nyamaswa zinkazi cyane, aho iba izi kwiruka cyane ndetse ikamenya no kurira giti, ku buryo nta nyamaswa yapfa kuyicika, kereke izinjira mu butaka.

Muri parike y'Igihugu y'Akagera, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari izizwi nk'impara n'imparage, zikunze kurisha ibyatsi ndetse akaba ari naho zikunze kwibera.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye n'inyamaswa, aho hari inyamaswa z'agasozi zizwi nk'imisega zikunda gutontoma no kwabira cyane.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari inyamaswa zizwi nk'uduhene zikaba zizi kwiruka cyane kurusha izindi nyamaswa.

Muri pariki y'igihugu y'u rwanda y'akagera, harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye zibera mu byatsi, hari izizwi nk'impara ndetse n'imparage, aho izi zose ziba inyamaswa nziza kandi zigirira amahoro.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa nini cyane kandi zifite ibiro, dukunze gusanga muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera aho zijya zinyuzamo zikajya no mu mazi zikayavoma ziyashyira mu mugobora wazo.

Hariho imbeba z'ishyamba zaje muri iki gihe zisigaye zihagarara ukagira ngo ni umuntu n'kirizo cyazo gifite intsinzi zikunze kuba ziri ahantu mu ishyamba ariko zikugereye mu imyenda zayicagagura.

Intare ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi ziba ziri muri Parike y'Igihugu y'Akagera, intare rero ziba ari inyamaswa ziryana zize kwiruka kandi zikaba ari n'umwami w'ishyamba.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye dukunda gusanga muri Parike y'Igihugu y'Akagera, aho hariho zimwe ziba zifite amahembe ameze nk'amashami cyangwa intoki z'inkoko.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bororara inka barabigize umwuga, bakajya bajya kuziragira ahantu mu bikuyu, hanyuma zikabona ibyo kurya.